Icyapa kiri hejuru, kiriho umugore witwa Pam Martin, hariho nimero ziwe, kivuga ko bahari kugira ngo bafashe, ubuzima bugende neza.

Umugabo ufite umusatsi muremure ndetse wambaye karuvati y'umukara n'ishati yumweru, akaba ari umuganga uri kuvura umukobwa ufite imisatsi miremire asa nkaho wakomeretse mu ijosi rye.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru, uri guseka ufite amenyo y'umweru, wambaye n'ishati y'amaboko magufiya; ufite inkoni mu kiganza cyiwe, wicaye ku ntebe y'ibiti uri gutanga itangazo ko no mu gihe cy'izabukuru ''turagoboka''.

Igikorwa cyo kohereza amafaranga cyakoreshejwe kuri konti gisaba nimero ya konti, amafaranga, ndetse n'ubusobanuro bwayo mafaranga.

Porogaramu ya telefone iri gufasha umuntu kwishyura amafaranga akoresheje eko banki Izina ry'umuntu ugiye kwishyura: Fosite Kanamugire, impamvu: agiye kwishyura amafaranga y'ishuri amafaranga agiye kwishyura: ibihumbi mirongo irindwi nabi bitanu ndetse n'umubare w'ibanga ndetse no kwishyura.

Umukobwa usa nk'umunyafurika wambaye umukara afite ibishuko by'umukara arimo araseka, ari no kureba impano yahawe zipfunyitse ziri ku ntebe.

Uruhererekanye rw'imipira imanitse yo mu maboko maremare ndetse n'amaboko magufi, yegeranye n'imyenda izinze, biri mu iduka ricuruza imyenda y'abagabo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye by'umwihariko ibintu byo kwambara ndetse n'amatelefoni, y'abantu, hakaba harimo umusore ufite umusatsi mugufiya ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'umukara n'isaaha.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo serivise zitandukanye, hakaba harimo umugore uteze igitambaro cy'umweru ndetse akaba yambaye n'ishati. Akaba ari gucuruza ibikoresho bitandukanye by'umwihariko ibyo kurya birimo amafarini.

Ibicuruzwa by'ubwiza bikoreshwa ku mubiri harimo amavuta yitwa Selave ndetse n'imibavu yitwa Guci. Biri mu kabati bitondetse neza, byegeranye.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu bintu bijyanye n'itumanaho, mu gihe abantu baba bashobora kuvugana umwe ari mu ntara imwe undi ari mu yindi, umwe ari mu gihugu kimwe undi ari mu kindi, iminara idufashamo muri ubwo buryo bw'itumanho.

Imyenda imanitse harimo imipira y'amaboko magufi imwe ifite amakora indi idafite amakora ndetse n'imyenda y'abana yo hejuru ndetse n'iyo hasi biri mu iduka ricuruza imyenda y'abagabo n'abana.

Amashati angana nk'umubare wa gatandatu hakaba harimo amabara atandukanye hari ayasa nka shokora, ubururu, umukara, ndetse n'umuhondo n'umutuku akaba ateretse ahantu hasa nk'icyatsi cyibisi.

Umugore ufite imisatsi miremire, uri guseka yambaye igitenge kirimo amabara y'umweru, w'umutuku, n'ubururu. Akaba yifite mudasobwa imbere yiwe yifashisha mu kazi ke ka buri munsi, afite n'ikaramu mu ntoki ze.

Imipira itandukanye yo mu bwoko butandukanye, aho umwe ufite amabara y'umutuku, umweru n'umukara, undi ukaba ufite amabara y'icyatsi n'umukara aho yifashishwa mu kwambara ku ruhande rw'igitsina gabo.

Umukobwa uri kwishyura akoresheje telefoni hifashishijwe akamashini gafashwe n'undi mukobwa uri kwishyurwa mu iduka ricuruza imyenda y'abagore.

Ibicuruzwa imyenda ikorerwa mu Rwanda ikaba ifite nk'ibintu bita imigongo ikabifite amabara atandukanye umweru ndetse n'umukara aho berwa aka ari ibyifashishwa mu gutunganya iyo myenda harimo n'amapasi ndetse n'ibindi nk'ibikapu.

Umunyafurika ufite umusatsi uringaniye wambaye ishati y'amaboko maremare, ari kwishyura akoresheje ikarita ku kamashini kishyuza gafashwe n'umugore w'umuzungu.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Imodoka ifite amabara y'umukara ndetse n'utundi dukeya tw'ubururu, ikaba ifite amatara asa umutuku, imbere yayo hakaba hari ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi, ndetse n'imiturirwa miremire n'amapoto ashinzwe gutanga amashanyarazi.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu Kagera kikaba gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara n'umutuku, kikaba gihagaze imbere y'abantu bambaye imyenda itandukanye, hari umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro isa shokora.

Uyu ni umwe mu mihanda ishobora kuba igaragara mu Rwanda, aho bagaragaza agace imodoka nk'izitwaye abagenzi cyangwa se n'izitwara imizigo zishobora kuba zahagarara umwanya muto mu gihe cy'akaruhuko.

Imodoka ifite ibara ry'umukara yo mu ruganda rwa toyata, ikaba ikoresha amashanyarazi; ikaba iri kugurishwa miliyoni mirongo itatu n'eshatu z'amanyarwanda, ikaba ikikijwe n'ibiti bigufi bifite amabara y'icyatsi.

Imodoka iri mu bwoko bwa yundai, ikikijwe n'abategarugori babiri bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, nyuma yaho hakaba hari igikuta cyera, imodoka igizwe n'amabara y'umukara n'amatara yera y'umweru.

Imodokari iri mu bwoko bwa yundayi ikoresha amashanyarazi iri kugurishwa miriyoni ikenda z'amanyarwanda, inyuma yaho hakaba hari izindi modoka zigiye zitandukanye zisa umukara n'umweru ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'ubwoko bwa fuso, ivuye mu kigo cyitwa eyibiji, akagera motozi gurupe.

Imodoka nziza y'umweru iparitse mu muhanda w'igitaka, ifite imyanya ine y'abagenzi, yegeranye n'izindi modoka z'ubwoko bugiye butandukanye.

Igice k'imbere n'igice k'inyuma k'igiceri cya makumyabiri cyakoreshwaga kera mu Rwanda, igice k'inyuma kiriho igihingwa kera mu Rwanda, igice k'imbere kiriho ikirangantego cyakoreshwaga kera mu Rwanda.

Ibiceri bibiri by'amafaranga ry'u Rwanda biri kwerekana igice cy'inyuma, igiceri kimwe ni icya makumyabiri ikindi ni icya tanu, biri ku ntebe ikozwe mu kibaho.

Inoti ebyiri iyahozeho kera ndetse n'iriho ubungubu iya mbere ikaba iriho ikiraro kibarizwa mu Rwanda ndetse iya kabiri ikaba iriho abana batatu bafite mudasobwa imbere yayo zikaba zikorerwa muri banki z'u Rwanda.

Igiceri cya mirongo itanu kifashishwa mu gihugu cy'u Rwanda kikaba cyanditseho amagambo banke nkuru y'u Rwanda, kikaba kigizwe n'ikigori ndetse n'umwaka wagiye ukorerwamo ibyo biceri, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nakimwe.

Inoti nkuru y'u Rwanda y'ibihumbi bitanu ikaba korerwa muri banki nkuru y'u Rwanda ikaba iriho kimwe mu bisimba kiri muri pariki nkuru z'urwanda kitwa ingagi.

Iyahoze ari inoti y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda, ikaba yari iriho inka z'inyambo zifite amahembe ndetse n'ibindi bihingwa, bihingwa mu Rwanda, ikaba yari yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda.

Amacupa ya nili apanze ku mirongo ibiri, atatu imbere andi atatu inyuma. Ari mu kabati gakozwe mu mbaho yegereye igikarito cya nili.

Iyo kurya kiri imbere y'igikombe kirimo amata ndetse n'ikaramu yifashwa mu kwandika ibintu bimwe na bimwe, igikombe cy'amata kikaba giteretse ku meza ifite amabara ariho umutuku ndetse n'uturabo.

Inzu icururizwamo amata y'inyange, ikaba ifite ibirangantego by'ubururu n'umweru ndetse n'icyatsi, hakaba hariho igishushanyo cy'umwana ufite umusatsi muremure, ndetse iruhande rwawo bakabacururizaho ibindi bitandukanye hakaba hateretse amakarito.

Mu nzu y'ubucuruzi itangirwamo serivise z'ubucuruzi z'inyange ahari icyuma kibikwamo amata y'inyange gikonjesha kikanafasha gutunganya neza amata.

Firigo ifite umuryango ubonerana irikonjesha amazi manini ya nili, yahurute yo mu ducupa ndetse na yahurute yo mu dukombe, ku ruhande yegeranye n'akajerekani karimo amata y'ikivuguto.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo serivise zigiye zitandukanye cyane cyane hakaba hatunganyirizwa amata, hakaba hari icyuma gisa ubururu n'umweru, babikamo amata kikaba gifasha gukonjesha no gutunganya amata.

Isahani y'umweru ifite ibishushanyo bisa umutuku n'ubururu, iriho capati zigera kuri esheshatu zisa umutuku, zisa nk'iziryoshye ziteretse ku meza.

Indabo ebyiri zirimo ibyo kurya bigiye bitandukanye aho hari ahantu hari umuryango usa ibara ry'ubururu, hakaba hariho n'ibishushanyo bitandukanye hanze yaho hakaba hari n'ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Umugati mwiza ukasemo ibice byinshi, uri ku meza y'ikibaho, inyuma yawo hari igitambaro, ibice bimwe by'umugati bihagaze ibindi biryamye, bimwe byariweho ibindi bikiri bizima byose.

Umukobwa mwiza wambaye amaherena ndetse n'umupira wo kwifubika, ufite ibisuko ku mutwe yegereye, imeza arambitse amaboko kuri iyo meza, inyuma ye hari gaze ikoreshwa mu guteka.

Umugore umaze gusuka amata mu bikombe bine by'ikivuguto inyuma yiwe hari igikuta cy'icyatsi ndetse n'itaburiya y'umweru akaba arimo gusuka amata.

Iduka ricuruza amata y'inyanza rirangwa n'amabara agiye atandukanye, harimo umweru n'ubururu rikikijwe na kandagirukarabe ,abaturage babanza kwisukura mu ntoki ,mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku ino.

Ubucuruzi itangirwamo serivisi y'amata hakaba harimo n'icyuma gishinzwe kuyatunganya, kikaba kiriho ibyapa bigaragaza uruganda rukora akabariho iyanza rukaba rusa ubururu ndetse n'umugore ufite amata.

Agakantine karimo amandazi, capati, imineke, amagi biteretse ku meza y'umweru yegeranye n'intebe z'umweru, iyo kantine yegereye umuhanda ndetse n'icyapa.

Ikirahure kinini cy'amata y'ishyushyu giteretse ku meza iriho igitambaro kegeranye n'isahani y'imyumbati, ku rundi ruhande rw'imeza hari umugore ufite igikombe kirimo amata, cyangwa igikoma kuri rundi ruhande hari firigo ikonjesha ibyo kunywa.

Umugabo n'umugore bahagararanye bari kwamamaza kompanyi ya "MTN" ishinzwe interineti n'itumanaho, bakaba bambaye umuhondo ndetse n'ingofero n'igikarito.

Urupapuro rugaragaza ko wishyuye ibyo waguze rukaba rwandikishwaho inyuguti zisa umukara ndetse rukaba ari urwo mu gihugu cy' u Buhinde. Uru rupapuro rukaba rukunda gukoreshwa n'abantu bagurira bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uburyo bworoshye ndetse bugezweho ukoresheje iyo mudasobwa cyangwa telefone igendanwa uka wakohereza cyangwa ukishyura ukoresheje telefone yawe wifashishije momo. Ibingibi bikaba bikorerwa muri telefone bwite ya buri muntu.

Umukobwa wambaye amaherena ni misatsi y'umukara n'inzara z'umukara uri gukanda ku gikuta cy'umweru cyera, uri kwamamariza umuyoboro w'itumanaho rya airtel mu gukwirakwiza amafaranga mu buryo bwo kugura umuriro mu buryo bworoshye.

Ni imodoka ndende itwara abagenzi muri rusange iri gutambuka m'umuhanda, ifite ibara ry'ubururu hasi rikurikirana n'iry'umweru agahondo gake ndetse n'ibirahuri by'umukara iruhande rw'umuhanda hari gutambuka umuntu.

Urutonde rw'amafaranga yakoreshejwe mu mikorere y'ikigo, yerekana aho ayo mafaranga yakoreshejwe, igiteranyo cy'ayo mafaranga yose, urutonde rwateguwe n'umucungamari rwemezwa n'umuyobozi ushinzwe imari.

Urupapuro rwanditseho cyangwa rugaragaza ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro m'u Rwanda, kikaba kigaragaza icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, uru rupapuro ruragaragaza ko nta mwenda urimo w'icyo kigo.

Umugabo w'uruhu rwera wambaye ishati y'amaboko magufiya akaba ari gufata amafaranga yo mu gihugu cyunze ubumwe za leta zunze ubumwe za Amerika, hakaba hariho umugabo ufite imisatsi miremire ndetse ayo mafaranga akaba angana nk'ijana ijana.

Amafaranga icumi yo mu gihugu cy' buhinde ariho umugabo wambaye amadarubindi uri gusekamo ushaje usheshe akanguhe yanditseho imibare igiye itandukanye iriho icumi n'indi mibare igaragaza inoti.

Umugabo ukuze afite ubwanwa bw'umweru ndetse wambaye impeta imwe n'umukara, akaba afite amafaranga ndetse na tumwe mu tugozi twifashishwa mu kuzinga amafaranga, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare.

Umuntu ufite inoti nyinshi za mirongo itanu, z'amafaranga y'Iburayi ari guhinduranya n'ufite inoti nyinshi z'ijana z'amafaranga yo muri Amerika.

Ibiganza bifite inzara zisize utuntu tw'umutuku ndetse bikaba bifashe amafaranga yo mu gihugu cy'ubuhinde hakaba hariho isura y'umugabo wambaye amadarubindi ndetse izo note zikaba zanditseho magana atanu.

Inoti zigiye zitandukanye z'amafaranga akoreshwa muri Kongo inoti ya magana abiri, iy'ijana iya magana atanu ndetse n'iy'igihumbi.

Amafaranga akoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko akaba akorerwa muri leta zunze ubumwe z'Amerika akaba ari inoti ijana ikaba umugabo ufite imisatsi miremire izi notezika bazifitwe n'umugabo wirabura wambaye ishati y'umweru ndetse n'uruhande rw hakaba hari na bagenzi be.

Inoti ebyiri zitandukanye zo mu gihugu cya Tanzania ikaba yandikishijeho amagambo ari mu kirimi cy'igiswayile, inoti ya mbere ikaba iriho umugabo ufite umusatsi mugufiya ndetse yambaye n'ishati ndetse n'ibirangantego by'igihugu.

Umurundo w'inoti y'amafaranga yo muri Amerika ndetse n'andi y'i Burayi, yose agiye ari inote yanditseho icumi, icumi.

inoti yo mu gihugu cy'ubuhinde ikaba iriho umugabo ufite umusatsi mukeya wambaye amadarubindi akaba yiteye n'igitambaro gifite ibara ry'umweru, iyi noti ikaba yanditseho amagambo ari mu kirimi cy'ubuhinde ndetse n'amafaranga magana abiri.

Umuntu ufite mu intoki ziwe amafaranga y'abanyamahanga arimo arayabara, inoti imwe ku iy'indi, inoti yanditseho ijana.

Inoti y'amafaranga atanu yifashishwa mu gihugu cya congo, ikaba iri mu mabara atandukanye yiganjemo umuhondo ndetse n'inyuguti zanditse mu kirimi cy'Igifaransa, aho bisobanura ko iyo note ikorerwa mu gihugu cya congo.

Ihererekanya ry'amafaranga ryo muri leta zunze ubumwe za Amerika, harimo n'inote zigiye zirimo zijana, mu biro bikuru bishinzwe kuvunja mu mafaranga yo mu bihugu byo hanze.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo serivise zigiye zitandukanye mu buryo bw'amafaranga yoherezwa mu bihugu bimwe na bimwe, inzu igizwe n'amabara agiye atandukanye harimo umuhondo n'umweru n'ubururu ndetse n'umutuku.

Icyapa kiri ku nyubako igeretse kabiri, kikaba kigaragaza ibiro bishinzwe kuvunja amafaranga yo mu bihugu byo hanze, hakaba hari n'abantu babiri hanze yacyo, bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'ibiti bigiye biri ku madirishya.

Ibiro bifite ibimenyetso bitandukanye byerekana ko bavunja amafaranga, banakora ubucuruzi bujyanye n'amafaranga, ndetse n'umuntu wicaye kuri mudasobwa yiwe, ari mu kazi.

Ibiro bishinzwe ku kuvunja amafaranga yo mu bindi bihugu bitari ibyo mu gihugu cy'u Rwanda, hakaba hari amabara atandukanye nk'umutuku n'ubururu ndetse hakaba ari n'ibirangantego bigaragaza serivise zitangirwa aho hantu.

Ahantu habugenewe bashyira imitako ijya mu nzu by'umwihariko ahantu hakunze kujya indabo zo mu nzu hakaba hari amabara arimo umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Inzu irimo ibitako bigiye bitandukanye, harimo igishushanyo gifite amabarage agiye atandukanye ndetse hakaba harimo na televiziyo yifashishwa mu kurebwaho ibintu bitandukanye, ndetse n'ibitabo byo gusoma.

Intebe enye zifashijwe kwicarwaho igihe abantu bari mu biganiro, hakaba hari n'imeza hagati yabo, hifashishwa ibyo bateyekaho mu buryo butandukanye bwo kwandika cyangwa bari kurya cyangwa bari kunywa.

Imeza n'intebe zikozwe mu mbaho, zifite ikirahure kibonerana kiri hejuru y'iyo meza, ku nzu ndetse n'amadirishya bikozwe mu mbaho, biri mu nzu ifite amakaro y'umukara.

Imeza ikikijwe n'intebe esheshatu zikabazikunda kwicarwaho n'abantu bari gusangira amafunguro cyangwa ibyo kunywa cyangwa bari mu nama yo kugira ibyo baganiraho, inyuma hakaba hari umuryango w'kirahure.

Icyumba kigizwe n'igikuta cy'umweru cyera, n'imitako ifite amabara y'icyatsi harimo na televiziyo ifite ibara ry'umukara ndetse n'utubati twifashishwa kubikamo ibikoresho bimwe na bimwe byo mu nzu.

Icyumba gishashemo amakaro gifitemo intebe enye ndetse n'imeza ikozwe mu rubaho ku ruhande hari akabati nako gakozwe mu rubaho.

Inote y'ibihumbi makumyabiri y'amafaranga ya Kongo ikaba, igizwe n'ibirango biriho gasumbashyamba hakaba hanariho n'umugore w'ikibumbano ushushanyijemo.

Ibyatsi biteyemo imeza ndetse n'intebe byifashishwa mu kuruhuka kw'abantu, hirya yaho hakaba hari ibyuma bifashe igikuta kugira ngo kitagwa ndetse hakaba hateye n'indabo.

Inyubako iri mu bwoko bwa etage igeretse. Ifite amabara y'umweru n'umukara na shokora. Ikikije n'ibiti, mu kirere cyaho harasa ubururu, ikirere cyiza.

Hoteli nziza y'amagorofa ifite ibirahure bya fime, ifite pisine ikikijwe n'ibiti ndetse n'ibimera ifite n'imitaka.

Umutorirwa ukikijwe n'ibiti bijye bitandukanye ndetse n'imodoka, umuturirwa ufite amatara atandukanye ukaba ari hoteli isurwa n'abantu bagiye batandukanye mu masaha ya n'ijoro.

Icyumba gikorerwamo inama kiri Mariyoti gifite intebe nyinshi ndetse n'ameza ateguyeho amazi byerekana ko yiteguye inama.

Ibiro byiza cyane bifite parafo irimo amatara, bifite intebe z'umutuku n'umukara, ku meza hariho za mudasobwa ndetse n'ibimera ndetse n'amadirishya ku ruhande.

Ibiro bitangirwamo serivise z'ubwishingizi bukaba bigizwe n'amabara y'umutuku, umukara, umweru ndetse n'intebe, aho batanga serivise n'abakirwa bakora, hakaba hari n'aho bashyira indabo kugira ngo harusheho gusa neza.

Urwakiririro rw'ubwishingizi mu kwivuza bwitwa radiyati, ibiro bifite urukuta ndetse n'umuryango ukozwe murahure imeza iri imbere y'igikuta gisa umweru ndetse n'intebe ziri inyuma y'imeza isa umukara.

Ishami rikuru ry'ubwishingizi rya muwa a riherereye Nyabugogo ku cyapa kiranga, hariho na nimero zijye zitandukanye zagufasha kumenya neza ibijyanye n'ubwishingizi.

Ibyumba bibiri byegeranye, bikoreshwa nk'ibiro byanditseho "Cuzo (R) ltd. Bifite amadirishya y'ibirahure ndetse n'inzu n'inzugi z'ibirahuri.

Icyumba gisa nk'ibiro cyiganjemo ibara ry'umweru ku nkuta ndetse no ku meza kigabanyijwemo ibice bijye bitandukanye ndetse n'intebe zisa ubururu.

Abantu bari mu kazi bari kuri mudasobwa zabo, begeranye batandukanyijwe n'udukuta dutoya n'abandi barindiriye kubona serivisi zabo.

Umugabo wambaye ishati y'umukara akaba nta musatsi afite akaba ari gusinya ku rupapuro rw'umweru rugaragaza yuko yemeye gufata ideni muri banki, hakaba hariho amasezerano yagiranye n'aho hantu.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, uri gucuruza imbuto zo kuribwa, wambaye umupira w'umutuku ndetse ufite na mudasobwa mu ntoki ze, uri kugurisha ku mugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'isaha.

Ibicuruzwa by'amabara meza atandukanye byavuye mu buhanzi n'ubugeni bikoreshwa mu guhaha mu kubika ibintu ku meza bikoreshwa nk'imikufi ndetse n'ubundi buryo bugiye butandukanye.

Umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi w'umutuku, agapfukamunwa, ipantaro ya kacyi yikoreye agatebo karimo imineke, ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ahegereye isoko rya nyarugenge.

Umugore uri mu isoko ahagaze arimo gupima imbere ye hari ibirayi n'amabase, n'imifuka, n'igikombe, ahagaze munsi y'amabati k'uruhande rwe hari abantu bari gucaho.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye by'umwihariko hakabarimo imbuto ndetse n'ibindi byifashishwa mu gutekwa harimo imbuto, inyanya ndetse n'ibitunguru hakaba harimo abagore bari kubicuruza.

Abagore babiri bafite ibitambaro mu mutwe, umwe ahagaze, undi yicaye imbere y'amatereyi y'amagi, agiye atondetse mu bice bitanu. Bari ahantu hasa nko mu isoko.

Isoko riri kugurisha bodaboda, inkweto, ibitenge igice kimwe gitwikiriwe na shitingi abantu barimo baraganira abandi barimo barahita.

Isoko ricuruza ibiryo bitandukanye by'umwihariko akarimo karoti, imbuto, ndetse n'imiteja, urusenda n'ibindi bigiye bitandukanye hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'uwambaye umupira w'umutuku.

Ikoraniro ry'abantu benshi imbaga y'abantu iri imbere y'inyubako ifite amabara agiye atandukanye arimo icyatsi, umuhondo ndetse n'andi mabara agiye atandukanye harimo n'ubururu bari imbere y'iyo nyubako.

Inzu isize amabara y'umweru, aho irimo ubucuruzi butandukanye, aho harimo ubucuruzi bw'imyenda n'ibikapu, ndetse imbere yaho hari imodoka iparitse, aho ahantu aho hantu bashobora kuza guhaha ibintu bitandukanye.

Uburyo bwifashishwa mu kwishyura ndetse no kohereza amafaranga mu ikoranabuhanga rya Emutiyene, wifashishije akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri kode baba baguhaye bikaba bifasha mu kohereza amafaranga nta kiguzi bisabye.

Icyapa cya emutiyene kigaragaza uburyo bwiza wakwifashishamo ukwishyura batagukase andi mafaranga ukoresha akakanyeye ijana na mirongo inanai na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, ugashyiramo kode bikaba byagufasha mu kohereza cyangwa kwakira bataguciye andi mafaranga.

Akazu ka MTN gafite amabara y'umuhondo ndetse n'ibirangantego, bigaragaza MTN, gahagazeho umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro, kakaba gateretse hagati mu bitaka ndetse iruhande rwakaye n'abagenzi.

Umugabo ufite umusatsi wera, uri guseka ufite amaso y'umweru wambaye ishati y'umweru, uhetse umwana ufite umusatsi mugufiya, wambaye umupira urimo shokora, n'giguta gisa umuhondo, ndetse n'makarita yanditseho utsindire.

Ubutumwa bugufiya bugaragaza ko ugiye gusoza igikorwa cyo kohereza amafaranga, ahogeze ku gikorwa cyo gushyiramo umubare w' ibanga kugira ngo ayo mafaranga ubashije kohereza agere ku muntu.

Akazu ka mtn gakorerwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwiharikota cyangwa umukozi wa mtn, mo imbere hakaba harimo umugore wambaye ishati y'umutuku hari n'abakiriya bari inyuma bakaba baje kwaka serivisi za mtn.

Akazu ka emutiyeni gatangirwamo serivise zigiye zitandukanye harimo n'amayinite gafite amabara harimo umuhondo, umutuku, umweru gakikijwe n'abana batoya bari ku muhanda w'ibitaka.

Isoko ryo kuba uri murandasi ushobora kugurisha cyangwa kugura ikintu, bakaba babikugezaho aho uri, hakaba ushinzwe kubigeza ku bantu, wambaye ingofero irinda impanuka ndetse n'umupira w'amaboko maremare, ikinyabiziga cye kikaba kiriho amabara nk'umutuku.

Inyubako igeretse ikoreshwa nk'iposita ndetse n'ibinyabiziga, moto ndetse n'imodoka byose bifite amabara asa n'iyo nyubako y'iposita, ariyo umuhondo n'ubururu.

Abagore b'abategarugori bambaya amataburiya y'umukara n'utugofero tw'umweru bari gutunganya ibicuruzwa byitwa ibitoki kugira ngo bigere ku bakiriya babiguze ku buryo bwizewe bitunganyije.

Urubuga rwitwa mu rukari rw'ikoranabuhanga rigezweho rikaba bihuza umucuruzi ndetse n'umuguzi, aho umucuruzi aba agurisha igicuruzwa k'iwe umuguzi akabiguriraho mu buryo bwa oni rayini.

Inzu ebyiri z'amagorofa zitandukanyijwe n'ubusitani wayabona ku madolari ibihumbi magana inani ku kwezi mu Rwanda i Kigali bifite n'ikigega cy'amazi.

Inzu nziza iri mu gipangu, ifite umuryango w'abantu n'ibinyabiziga, wagura mu gihe ufite miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri i Kigali mu Rwanda, iri ku muhanda w'igitaka.

Iyi ni inzu ifite idirishya ndetse n'urugi biri mu ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Inzu iri mu mugi wa Kigali, kacyiru. Ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi magana atanu mu mafaranga y'amanyamerika y'amadorali, ikaba iherereye mu mugi wa Kacyiru aho harimo ibiti birebire bigiye bitandukanye.

Igikoni wabona mu gihe ufite amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi. I Kigali, mu Rwanda Kacyiru, firigo, amakaro mu gikoni, akabati, ndetse n'igikoresho gishyushya ibiryo.

Mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kanombe hari inzu igurishwa miliyoni mirongo ikeda n'eshanu z'amanyarwanda, hakaba harimo ubwiherero bufite ibara ry'umweru, ndetse n'ubukarabiro bwabugenewe bugezweho.

Inzu yubatse iruhande rw'umuhanda w'igitaka ikaba iri mu gipangu ituranya n'andi mazu afite amabati y'umutuku. Inzu ikaba ikodeshwa ikaba iturwamo n'abantu bumva babishaka.

Inzu inzu nini isize umucanga ndetse hari n'inzu ishaje ntoya, nyuma yaho hari ishyamba n'icyapa cyanditseho akanyaru, huye, muhanga; hariho icyapa kiriho akantu kazamuye ndetse n'ikindi gitambika hariho Ruhango, Kinazi

Umugabo wambaye ijile yi'cyatsi, uri gusobanura ari munzira yegereye imirima ibiri, inyuma hari inzu na numero wahamagara kugirango umugereho.

Inyubako iri kugurishwa muri Kigali amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda ikaba igizwe n'amabara harimo umweru, shokora ndetse n'umukara n'andi mabara agiye atandukanye.

Umugabo n'umugore bari mu nzu imwe, umugore wambaye ikanzu irimo uturabo ndetse n'umugabo ufite ubwanwa n'umusatsi mugufiya wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantero y'umukara, hirya yaho hakaba hari intebe zisa umweru.

Inzu wagura i Kigali mu Rwanda ufite amafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu, inzu ifite ibirahure bya fime, ifite ama esikariye ndetse n'agakoridoro.

Umugabo n'umugore bahagaze ku kabaraza, gafite intebe n'ameza, gatwikiriwe n'ikirahure, bwegereye ubusitani bufite ibyatsi ndetse n'ibiti, bwegereye ahantu hasa nka pisine.

Inyubako ushobora kubona mu mugi wa Kigali, iri Kicukiro. Ukaba ushobora kuyikodesha amafaranga asaga igihumbi cy'idorari, mu manyarwanda akaba angana nka miliyoni imwe z'amanyarwanda.

Ku mupira wa kizimyamoto wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, uba uri ahantu runaka hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro ndetse no mu ma sitade, uyu mupira wifashishwa ubusukira amazi bitewe n'ahantu inkongi y'umuriro iri.

Inyubako iherereye muri Kigali mu gace ka Kimironko, ikaba ikodeshwa ikafite igipangu ndetse ikaba igeretse kabiri, ikaba ifite amabara y'umweru ndetse ikaba ari no mu gipangu cya yonyine ikaba ifite n'amatara.

Inzu ikodeshwa mu mugi wa Kigali Kicukiro ifite ibyumba bibiri, n'ubwiherero bakaba bayishyura ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ku kwezi, ikaba ifite amabara atandukanye n'ibirahure bibonerana ndetse n'ibigega bibika amazi hejuru.

Inzu wabona i Kigali mu Rwanda mu gihe ufite amadolari ibihumbi bibiri. Inzu ifite ingazi zikozwe mu bibaho, idirishya ryitegeye ubusitani ndetse n'ibiti aho ubasha kureba n'ikirere n'ibindi bice byo hanze.

Abantu bari kureba ibyo bagura mw'isoko riri gucuruza amavuta n'amasabune..

Inzu y'ubucuruzi igereretse inshuro zirenze eshatu, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye aho bakodeshereza amakositimu n'amakanzu y'ubukwe, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iduka ricururizwamo imyenda ndetse n'inkweto by'abagabo ndetse n'abagore, Hakaba Harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko magufiya ndetse n'ipantaro y'umukara bari kumwe n'umugore ufite umusatsi muremure, wambaye ipantaro y'umukaraba hrjuru yaho hakaba hari ibikapu bari kgurisha.

Inzu bahahirami ibyo kurya n'ibyo kunywa ikaba ifite amabara agiye atandukanye harimo; umweru, umukara ndetse n'umutuku, ikaba icururizwamo ibicuruzwa by'amoko atandukanye byivanzemo ibyo kunywa n'ibyo kurya bikenerwa m'urugendo.

Iduka ricuruza inkweto z'abagabo n'inkweto zifunguye z'abagore, imikandara y'abagore ndetse n'abagabo, ndetse n'amashakoshi y'ubwoko bugiye butandukanye, afite amabara y'umweru, ya kaki, y'umutuku;

Umuntu ufite inzara zisize y'umutuku, afite mu ntoki ze sosiso ziri mu ishashi , kandi imbere ye hari mudasobwa n'ibindi bikoresho. Yegereye urukuta rusize ibara ry'umweru.

Isoko rihurirwamo n'abantu benshi bagiye batandukanye baba bahuriyemo baje kugura ibicuruzwa by'umwihariko imbuto, hakaba harimo karoti, inyanya ndetse n'ibindi byifashishwa ku meza bikaba bifite amabara y'icyatsi n'umutuku.

Inzu bahahiramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo amabara y'ikigina ndetse n'umukobwa wambaye imyenda y'umukara, hejuru ye hakaba hari amabara y'umweru ndetse n'itara rimufasha gukora gahunda ze neza.

Inzu y'ubucuruzi igezweho, ikaba irimo mudasobwa ndetse iyi nzu ikaba yifashishwa mu guhaha ibintu bigiye bitandukanye, aho usanga harimo ibintu byose, by'umwihariko ibyo kurya ndetse n'ibikinisho by'abana.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse ufite imisatsi miremire akaba ari ahantu bacururiza imyenda y'abagore cyangwa abakobwa akaba yegeranye n'umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Umutegarugoro wambaye igitenge kirimo umuhondo n'ubururu uteze igitambaro mu mutwe ari kwaka serivise zijyanye na mituweri uburyo bw'ubwishibgizi n'imyivurize, umugabo wambaye ikote ry'umukara n'imweru n'umuhondo niwe uri ku muha serivise.

Ikirangantego cya Ejoheza gishishikariza abantu kwizigamira uburyo bakoresheje bworoshye bwa telefone igendanwa hakaba handitse ngo uko wakwishinganira muri ejoheza ukoresheje telefone yawe.

Umukecuru wambaye agapfukamunwa ndetse n'igitenge afite mu ntoki z'iwe ikarita yo kwivuza, ubwishingizi bw'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda gikunze kwitwa RSSB.

Umuganga ufite umusatsi w'umukara mugufiya akaba yambaye itaburiya ndetse n'ishati, akaba afite impapuro z'umweru imbere yiwe, akaba ari gutanga serivisi ku mugore wambaye ikanzu y'igitenge ndetse ufite mituweli.

Umugabo uri kureba ibyo yagura mu iduka ry'ibikoresho bikoresha umuriro, mu ishyiga ryo guteka, igikoresho bakoresha bashyushya amazi, ndetse n'amazi.

Iduka rusange usanga ibicuruzwa bimwe na bimwe, aho usangamo ibintu bigiye bitandukanye ku giciro kigufiya bitewe n'uko wifite. Hakaba harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, n'ibyo kwambara

Umugabo wambaye imyenda n'ingofero byiganjemo amabara y'umuhondo n'umukara, ari mu iduka rigurisha imyenda ndetse n'ibikoresho afite ivarisi igeretseho ikiringiti.

Etajeri irimo ibigurishwa igice cyo hejuru kirimo ifu y'ibigori ndetse n'ifu y'amata, igice cya kabiri kirimo saladine ndetse n'inyama ziri mu dukopo , ugice cyo hasi harimo amakaroni.

Iduka rya kijyambere, rigezweho, rikaba ririmo umugore wambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo agaragaza uburyo wakoresha serivisi za emutiyene, akaba ahagararanye n'umugabo wambaye ishati y'ubururu.

Inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye by'umwihariko ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ahangaha hakaba hakunda gukorerwamo n'urujya n'uruza rw'abantu baje guhahiramo barimo amabara agiye atandukanye.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibice bigiye bitandukanye ,uruhande hakaba ari urw'ibiryo rurimo ibiryo bigiye bitandukanye harimo nk'iby'inyama ndetse n'imbuto bikaba byifashishwa ku meza hakaba harimo n'amabara harimo icyatsi n'umumodo mutuku.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ibyo kurya n'ibyo kunywa, hakaba hari umugore umaze kugura bimwe mu bicuruzwa, wambaye ikanzu ndetse ufite n'umusatsi muremure, akaba afite igikapu gisa ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye umukara ari mu iduka ari kureba agatangazwa n'ibiciro abonye ku bikoresho byo mu rugo bikoresha amashanyarazi mu gikoni inyuma ye hari abandi bantu nabo bari kugura .

Iduka rusange rigiye rihurirwamo n'abantu bagiye batandukanye harimo ibicuruzwa bimwe na bimwe bikundwa gukoreshwa n'abantu beshi, ahangaha hakaba harimo amabara y'icyatsi, umuhondo, ubururu, umweru n'andi meshi

Isoko rya kijyambere, aho usanga hacururizwamo, ibintu by'amoko menshi by'umwihariko ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa, n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibifite amabara agiye atandukanye n'ibindi.

Amaduka yegeranye umuntu uri kureba inzoga ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande hariho iduka ryitwa ive ndetse n'abandi bantu begereye umuryango w'iryo duka rya ive.

Inzu y'ubucuruzi igiye irimo ibintu bitandukanye, harimo nk'ibyo kurya ndetse n'ibindi, ikaba igizwe n'amabara, harimo n'umweru, ikaba yegeranye n'inzu ishinzwe kubika amafaranga y'abaturage bakunze kwita banki.